Ndimo ndabona umugabo wicaye wambaye ikote ry'umukara wambaye ishati y'umweru n'umukara wicaye ku ntebe y'umutuku.

Ndi kubona imodoka eshatu, inyuma hari inzu. Imbere yizo modoka hari abantu batanu, uwambaye ishati yubururu nishati yumweru

Ndimo ndabona umugore wambaye ikote ry'umukara wambaye ijipo y'ubururu wambaye n'inkweto z'umukara uri kumwe n'umugabo wambaye ipantaro y'ubururu ishati y'umweru.

Ndimo ndabona umugore wambaye ingofero, wambaye ikanzu irimo amabara y'ubururu n'umuhondo n'umukara.

Ndabona aho imodoka zihagarara hari imodoka y' umweru n' imodoka yicyatsi n' indi modoka yumweru inyuma yaho n' indi nzu inyuma ifite amabara yumweru .

Ndirimo ndabona inote y'ibihumbi bitanu bya Tanzania, hakaba hariho, hashushanyijeho inzu, hakaba yashushanyijeho uruganda.

Ndimo ndabona imeza iri kumwe n'intebe enye, ku ruhande rwayo hariho igipangu gisa umutuku, ku ruhande hariho inzu ifite ibara ry'umweru.

Ndimo ndabona amazi y'ininyange uducupa tubiri dufite imifuniko y'ubururu kuruhande rwayo hariho ibirahuri bibiri byo kuyanywesha biteretse ku ameza.

Ndimo ndabona umuhanda utarimo imodoka ariko kuruhande rw'umuhanda hariho imodoka y'umweru hariyo imodoka y'umukara.

Ndimo ndabona umugore wambaye ikote ry'umutuku werurutse, wambaye umupira w'umukara, ku ruhande rwiwe hariho umugabo wambaye ingofero y'umukara.

Ndimo ndabona umugabo wambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru, ufite urupapuro rw'umweru mu ntoki imbere yiwe hari igikombe cy'icyayi cy'umweru na mudasobwa iri imbere yiwe.

Nabona abantu muri bo harimo uwambaye umupira w'umutuku n'igitenge cy'icyatsi ipantaro y'ubururu hari uwambaye umupira wubururumo harimo uwambaye ingofero yumutuku.

Ndikukubona mu isoko harimo abantu benshi, intoryi, ibitunguru, inyanya, urusenda, idodo.

Ndimo ndabona umugabo wambaye umupira w'umuhondo uri kumwe numugabo wambaye umupira w'umukara ufite igare ry'umuhondo mu ntoki.

Ndimo ndabona umugore wambaye agupira w'umuhondo, utwikiwe n'umutaka usa umuhondo, inyuma y'iwe hari intebe y'icyatsi, ku mpande y'iwe harimo n'isafuriya.

Ndimo ndabona umugabo wambaye umupira w'umuhondo, wambaye isaha y'umukara ku kuboko wambaye ni ipantaro y'ubururu.

Ndimo ndabona umugabo wambaye ipantaro y'umukara, wambaye n'umupira w'umweru n'umukara, uhagaze ku kazu k'umuhondo.

Ndi kubona inzu ifite ibara ry'umuhondo, ifite amabati asa umutuku wijimye, ifite amadirishya y'umweru.

Ndi kubona intebe z'icyatsi, imeza y'ubururu n'iyumweru, itara ry'umweru riri kwaka na....